Abayobozi bari mu nama aho babwiwe ingingo bumva ibanyuze barimo gukoma amashyi. Harimo abayobozi b'abasiviri, abapolisi hamwe n'abasirikari, hamwe n'abaturage basanzwe.

Abakaraza b'ingoma aho barimo kuvuza ingoma, baririmba indirimbo z'umuco gakondo mu birori, bishimye, bizihiwe, bambaye imyenda y'umuco gakondo nyarwanda.

Igikoresho gikoreshwa muri elegitoronike mu gusharija amatelefone, aho gikoreshwa, cyitwa adabutateri gifasha abantu kuba bacaginga bakoresheje sharijeri.

Abakozi barimo kunyura ku kiraro barimo kubaka, ikiraro kinini cyane kigaragara nkaho cyatwaye amafaranga menshi kizajya gifasha abaturage kwambuka umugezi.

Inyubako nini ikoreshwa nk’urusengero，abantu bakoresha basenga. Ifite imbere，ahantu ho guparika hari amapave， nayo ikaba iri ku muhanda ikikijwe n'andi mazu manini.

Abaturage bari kumwe n'umuyobozi, barimo kumubwira ibibazo bafite, ni mu nama hagati, bamwe barahagaze abandi baricaye, barimo kugenda batanga ibitekerezo bafite ku buyobozi.

Imodoka itwara abagenzi yo mu bwoko bwa bisi yitwa voluka ,irimo abagenzi bari mu muhanda biteguye kugenda . Bari mu mujyi hagati, mu muhanda hagati, biteguye kugenda.

Moto yo mu bwoko bwa rifani ifite amapine atatu, ikoreshwa mu gutwara ibicuruzwa biremereye nk'amashu, intebe n'ibikoresho byo mu nzu moto isanzwe y'amapine abiri itashobora gutwara.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa bisi yitwa Izi, irimo gukanikwa; irimo gukorerwa reparasiyo n'abakanishi babyigiye kugirango ikomeze gukora akazi kayo ka buri munsi.

abakinnyi bakina umukino wa tenisi, bari mu kibuga gutangira umukino babanje gusuhuza abafana ubundi batangire bakine umukino wabazinduye baje gukina.